Mu mashuri ntabwo intebe zigomba kuba zifite akajagari zijagaraye， ahubwo zigomba kuba zitondetse neza ku murongo，kugira ngo n'umushyitsi uwo ari we wese，ni aza abatunguye， asange mwicaye neza，mumeze neza nk'abanyeshuri.

Buri munyeshuri wize akiga imyuga, aba agomba no kuyishyira mu bikorwa, kugira ngo ejo azabone akazi hano hanze, kuko akazi kukabona ni ibintu bigoye cyane, kandi bigoye buri wese, niyo mpamvu agomba kubifata.

Ubu iterambere ryaraje, abana ntibacyigira mu makayi, basigaye barigira mu mamashini, kuko Kagame yabahaye uburenganzira, abaha n'ibyangombwa byose bikenewe, kugira ngo bigire ku mamashini.

Kwiga ni ikintu kidufashaga iyo tugeze mu buzima bwo hanze. Kwiga wambaye agapfukamunwa biterwaga n'ibyo uri kwiga, niba uri kwiga kubaza cangwa gukora ibindi bintu byatuma urwara ibihaha, ugomba kwambara agapfukamunwa.

Kwiga ukarangiza ni bimwe mu bigufasha kubona akazi iyo ugeze hanze iyo wize ukarangiza , ndetse ukiga n'imyuga imwe idasaba kuba warize ibyo ni ibintu biguhesha akazi ukaba wakora aho ariho hose mu buryo ubwo aribwo bwose.

Buri munyeshuri wese wiga ibijyanye n'ububaji, agomba kwiga yambaye ibikoresho byabugenewe, kugira ngo ataza kugira ingaruka, harimo nk'igisarubeti, cyangwa ekuteri, kugira ngo urusaku rutamumena amatwi.

Kwiga wicaye uri umunyeshuri umwe ku ntebe biba ari ibintu byiza cyane cyangwa gukora iryo suzumabumenyi wicaye uri umwe ku ntebe, biba ari byiza cyane, bifasha umurezi wawe kumenya urwego uriho kugirango abone ukuntu agufasha mu ntege nkeya zawe.

Ubungubu nta murimo w'umugabo nta n'umurimo w'umugore buri wese agomba gukora icyo yishimiye kandi akagikorana umwete n'umurava nta kabuza azabona inyishyu y'ibyo yakoze.

Kuva kera kwiga byahozeho, yemwe abana bacu no kwigira mu makayi bisigaye byaranze ,ubu ni ukwigira ku makompiyuta mu mashini ,abana bacu bateye imbere cane, igihugu cacu kiri mu iterambere riri kwirukanka cane.

Umunyeshuri wize neza agera hanze akabona akazi kandi kamushimishije. Umunyeshuri ntakabuza ahita abona akazi byihuse apfa kuba ashoje amashuri ye.

Buri rugo rwose rugomba kuba rufite ahantu abana bakinira cyangwa basubirimo amasomo yabo kugira ngo ngo bifashe ubwonko bwabo gutekereza byihushe vuba vuba.

Barezi namwe mu bayobozi b'ibigo mugomba kujya murasura abana banyu ,mukareba uko imyigire yabo ihagaze, kugira ngo ejo batazatsindwa ugasanga muri kubarenganya, kandi ari mwebwe mwabigizemo uruhare.

Gukora ntibivuze ngo uragenda ukore cyangwa ngo wibe, ahubwo ni ukwihangira udushya no guhimba utuntu n'utundi, na byo byaba ari byiza mu gukora ibikinisho by'abana biba bishimishije cyane.

Gukora ikizamini ni bimwe bifasha umunyeshuri kumenya uko ahagaze mu myigire ye, bigafasha n'umwarimu kumuha ubusobanuro bukwiye n'ubwenge bwe. Niyo mpamvu buri mwana wese agomba kujya kwiga, akiga neza nta kintu kimubangamiye.

Kwigira ku mamashini, bifasha umunyeshuri mu kwiyongera ubumenyi cyangwa mu kumenya n'ibindi bintu atari azi, ku buryo icyo wamuha cyose imashini yagikora kandi neza.

Erega kwiga ni indiri y'ubumenyi, utarize nta kazi wabona. Kandi n'ubwo wakabona nta bwo kaba kagushimishije. Ugomba kwiga, ugatsinda, ugashimisha ababyeyi bawe, ukabona n'akazi ugeze hanze.

Niba wiga uri umunyeshuri uramenye imirimo wasize iwanyu, uramenya impamba baguhaye ubwo rero wite gukurikirana ku masomo. Niba utashe kandi uramenye kwirukanka , ntugatinzwe no gusamara irukanka ugana iwanyu ubafashe imirimo uzi ko itavunanye ariko ari myinshi.

Ubuzima bwiza buraharanirwa niba warize neza ugomba no gukora umwuga wize ukawukorana umwete n'ubushake kandi ukawukora wambaye imyenda y'ubwirinzi wambaye ingofero irakurinda, wambaye igisarubeti ,wambaye amaga ,wambaye n'bindi ibyo ari byose by'ingenzi byakenerwa hageze kugira ngo utaza kugira ikibazo.